Iyi ni inyubako nziza, aha ngaha ushobora kuba wajyamo ugakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye byawe wakwifuza, ugahanga utundi dushya n'indi mirimo mishya myinshi cyane, ugakomeza ukagura ibitekerezo byawe.

Ikigo gitanga ubwishingizi, barakubwira bati uko urushaho guhahira no kunywesha ikinyabiziga cyawe esansi kenshi, mu bafatanyabikorwa bacu batandukanye, ni nako urushaho kongera amahirwe yo kubona ubwishingizi nta kindi kiguzi utanze, uramutse ufite ikinyabiziga wanywesha hano.

Iyi ni sonarwa aha ngaha baguha ubwishingizi ubundi ibiganza byawe bikaba bishinganye ku bindi bisobanuro ushobora kuba wabahamagara kuri icyenda zeru, zeru, zeru ubundi ugahabwa ubwishingizi bwiza.

Ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima. Aha ngaha mu gihe wowe uri mu ngendo zawe za buri munsi zigiye zitandukanye ufata zarutemikirere ugenda ujya ahantu hatandukanye nko mu mahanga ukamenya ko ufite ubwishingizi bw'ubuzima ukirinda ibyago bitandukanye.

Mutuze heza aharinde neza, aha ngaha ushobora kubahamagara kuri rimwe gatatu makumyabiri, iki ni kigo gitanga ubwishingizi aha ngaha cyangwa ukabandikira ku rubuga rwabo ukaba wahabwa ubwishingizi.

Hano barakubwira ngo urakaza neza kuri banki ya Kigali, aha ngaha ushobora kuba wakinjiramo ukaba umwe mu bakiriya bayo cyangwa se umwe mu bafatanyabikorwa, ubundi ukazajya wizigamaho ubutunzi bwinshi butandukanye n'amafaranga.

Isoko ryiza waza guhahiramo imyambaro wakambara ukabe uramutse uri umukobwa ,hari ibikapu byiza by'abakobwa, hari amakanzu meza y'abakobwa ukeneye rwose kugura imyambaro myiza, aha ngaha waza ukayihagurira ubundi ukambara ukabera.

Ni mu iduka wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, ibikoresho byo mu nzu, imitaka yo kugamamo izuba cyangwa se imbeho, imisego yo kuryamaho, ibinyobwa byiza by'imitobe n'amabase n'ibikoresho byo gutekamo.

Iri ngiri ni iduka wahahiramo imyambaro myiza itandukanye, waba uri umupapa cyangwa se uri umusore n'uwo waba uri we wese, aha hanga wahahahira imyambaro myiza wakambara ukaberwa imbere y'abantu.

Aha ni ahantu wahahira inkweto zo mu bwoko bugiye butandukanye, imyambaro myiza, amakanzu wakambara ukuberwa, ibikapu byiza by'abakobwa n'abamama, aha ngaha wahahahira uramutse ukeneye guhaha imyambaro myiza wakambara.

Iduka wahahiramo imyambaro myiza wakenera kwambara neza ukaberwa, uwo waba uri we wese uramutse ukeneye imyambaro uzambara buri wese akakubaza ati, nihe wahahiye? iri ni iduka wasangamo imyambaro myiza.

Ahantu wahahira imitako myiza igiye itandukanye, amashusho yo kumanika mu nzu, uburyo inzu yawe ikomeza gusa neza kandi ikeye, bikagaragara ko ukomeje kurushaho gutera imbere, no gusobanukirwa ibikorwa by'ubugeni.

Iri ngiri ni iduka ushobora kujyamo guhahiramo imyambaro myiza igiye itandukanye, imyambaro isa neza akambaro ukajya ahantu hiyubashye henshi imyambaro twita amakote, amashati meza aha wahahahira.

Izi ngizi ni zimwe mu nkweto zifunguye ushobora kuba wagura ukajya urambura ibirenge, zikorwa n'amaboko, inyinshi zikaba zikorwa mu ruhu rw'amatungo cyangwa se rw'inyamaswa, aha ngaha waza ukahagura inkweto nziza zifunguye.

Ibinyabiziga byo mu bwoko bwiza ushobora kubasha kugura kugirango nawe ujye ubigendamo ugiye mu ngendo zawe zitandukanye za buri munsi ahahaza ukahahira ikinyabiziga cyiza kandi kigezweho.

Ikindi kinyabiziga cyiza kigezweho kandi gishya cyo mu bwoko bwa yundayi ikaba ihagaze amafaranga angana na miliyoni cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda ubundi naho ukagura ikinyabiziga ukazajya ugikoresha akazi.

Ni ikigo cy'akagera gicuruza ibinyabiziga by'ubwoko bigiye bitandukanye ibinyabiziga bigufasha gutwara imizigo, ibinyabiziga bitwara abantu, ibinyabiziga bitwara abagenzi nk'amapikipiki n'ubundi bwoko bw'ibinyabiziga wakwifuza.

Iki ni ikinyabiziga kiza gishya kigezweho cyo mu bwoko bw'ibinyabiziga n'u Rwanda rukeneye cyangwa uruhando mpuzamahanga rukeneye, uramutse ukora ingendo zawe zitandukanye za buri munsi iki ni kinyabiziga wagura kikagufasha.

Ibi ni ibinyabiziga byiza bigezweho byo ku bwoko bugiye butandukanye, aha ngaha ni ho wahahira ikinyabiziga cyiza wakwifashisha mu kazi kawe ka buri munsi, cyangwa se ukakigura ugiye kugikoresha akazi.

Ikinyabiziga gishya gifunditse ushobora kuba wakenera nko kugura ukakifashisha mu kazi kawe ka buri munsi ndetse no mu ngendo zawe za buri munsi ibinyabiziga byiza hari ibigo bijya bicuruza ibinyabiziga cyangwa se ubucuruzi bw'ibinyabiziga.

Iki ni ikinyabiziga, aha ngaha ni isoko rya Kigali ricuruza ibinyabiziga, uramutse ukeneye ikinyabiziga cyo kwifashisha mu kazi kawe ka buri munsi n'ingendo zawe zitandukanye, ushobora kuba wakihagurira bikagenda neza.

Iri ni isoko rya Kigali, aha ngaha turabona ikinyabiziga gishya cyo mu bwoko bushya bibiri na makumyabiri na kane, bakubwira ati kiragurishwa amafaranga angana na miliyoni mirongo itatu na zirindwi z'u Rwanda, ikinyabiziga wakigura ukazajya ukifashisha mu bikorwa byawe bya buri munsi.

Hari n'ibindi binyabiziga byo mu bwoko bwa bisi ahangaha uramutse ukeneye kugura ikinyabiziga uzajya ukoresha akazi ugakorera amafaranga ukiteza imbere wajya kugura ikinyabiziga hano ni ibinyabiziga byiza kandi bigezweho.

Ayangaya ni afaranga y' u Rwanda yo muri banki nkuru y'u Rwanda, agaragaza ko ari u Rwanda n'inote y'ibihumbi bibiri ubona ko hariho iminara igaragaza ko dufite ikoranabuhanga ryiza kandi rihagije, rikora neza.

Iyi ni inoti y'ibihumbi bitanu. Ikaba ari iya banki nationale y'u Rwanda. Ikaba ari inote y'amanyarwanda iba iriho ibiranga umuco wacu w'Igihugu, uburyo babyina muri gakondo y'iwacu, ndetse n'uburyo tuba dukomeje kugera ku iterambere, n'uburyo tuba duhinga ikawa, n'ibindi bitandukanye.

Bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga ahangaha niho uza bitewe n'ayo ukeneye cyangwa se ari uyakoresheze bakagufasha bakayaguha ubundi nawe ukabahereza ayo uzanye kugira ngo akazi gakomeze gukorwa neza.

Brimo barabara amafaranga bifashishije utumashini twabugenewe tubara amafaranga kugira hataza kubaho kwibeshya mu bijyanye n'imibare, babara bongera basubiramo, bareba niba ibyo babona aribyo.

Iyi ngiyi ni banki uramutse ukeneye gufunguza konti muri banki, uramutse ukeneye kuza kubitsamo amafaranga yawe, kuza kwishyura ibintu bitandukanye ukoresheje banki ahangaha waza ukabihakorera cyangwa se bakaba baguha n'inguzanyo bitewe.

Iki ni igikoroto cy'amafaranga y'u Rwanda, gishobora kuba ari igikoto cy'icumi, ntabwo turi kukibona neza, ariko kiriho isaka, iki ngiki ni igikoto cyiza cy'u Rwanda, ushobora kuba ugitunze.

Amafaranga y'amanyarwanda ni Banki Nasiyonari y'u Rwanda, iyi ngiyi yari inoti y'ijana twakoreshaga ahambere, ukabonaho ibinyamaswa byiza by'i Rwanda, imparage n'ibindi bitandukanye n'umubyeyi uhetse umwana, aya ngaya twayasimbuje igikoroto.

Aya ni amafaranga y'u Rwanda igikoroto cy'atanu kirakoreshwa n'ubu ngubu ni aya banki nasiyonali y'igihugu cy'u Rwanda uyafite ugomba kugenda ukayahahisha kuko aya ngaya aracyakora mu Rwanda.

Muri banki umukozi wa banki arimo arabara amafaranga y'amanyarwanda agiye atandukanye, y'abantu batandukanye, kuko ashobora kuba arimo arayabikira nk'umuntu waje kuyabitsa, cyangwa se arimo arayabikura, byose muri banki barabikora.

Uru nguru ni uruhererekane rw'amafaranga, aha ngaha ni ho bazaguha amafaranga agiye atandukanye, waba uzanye amanyamahanga bakaguha andi manyamahanga cyangwa se waba uzanye amanyarwanda bakaguha andi manyarwanda kugira ngo ubone uko uyakoresha.

Icyuma cy'ikusanyirizo ry'amata meza kandi aryoshye, aha ngaha uhasanga amata ateguye neza kandi abitse ku buryo bw'isuku yihariye, isuku amata akeneye aha ngaha iba ihari.

Hano ni ahantu wakinjira ukeneye gufata amafunguro yoroheje, kandi hano arakubwira ngo bafite amata meza y'inka kuko mu Rwanda hano iwacu zirakamwa. Uramutse ukeneye amata meza, aha ngagaha ni ahantu wajya ukaba wayahasanga.

Aha ngaya ni amata meza, ateretse neza ari ahantu hizewe afite isuku ku buryo agomba kuba afite ubuziranenge kuko amata ni ikintu cyiza cyo kubika neza, isuku uyitayeho cyane.

Ahantu heza ushobora kuza gufata imitobe igiye itandukanye, ibyo kunywa bitandukanye harimo amazi y'amasoko tuziko ari amazi meza yihariye afite isuku ndetse n'umutekano wizewe aha ngaha wahaza.

Aha ni ho wasanga amata y'inshyushyu, uhasanga icyuma cyiza kibika amata ku buryo kabuhariwe cyangwa se ku buryo bw'umwihariko bwizewe, bufite umutekano ndetse bufite n'isuku ihagije ikeneye amata.

Aha ngaha ni ahantu waza gufatira nk'ibya mugitondo cyangwa se ibya saa sita, mu gihe waba uri mu kazi kawe ukumva urashonje ugize inzara, ushobora kuba waza gufata amafunguro bakayaguha ateguye neza.

Ahantu wajya ugiye gufata ibyo kurya bitandukanye bikoze mu ifarini, aha ngaha wahasanga amata yo gufatisha, ibyo waba ufite, amata ateguye neza kandi asa neza.

Ni ahantu heza ushobora kujya mu mu gihe waba ukeneye amata atunganyije neza kandi aryoshye, aha ngaha wahajya ukayagura ubundi ukayatahana ukagenda ukayanywa ukishima ukizihirwa wowe.

Aha uhasanga amata meza y'ubwoko bwose kuko iwacu zirakamwa uzahasanga amata yaciye mu ruganda bakagenda hamwe bayashyiramo imbuto zigiye zitandukanye kugira ngo uburyohe bukomeze kwiyongera aho usanga n'ikivuguto iri ngiri aba ari ikusanyirizo ry'amata.

Ni ibyokurya bikoze mu ifarini bakora bagafata ifarini bagashyimo indi misemburo, bakavanga ubundi bagakora impapuroni, izo mpapuro bagashyiramo inyama hagati ubundi bagateka mu mavuta bakaduha tukarya.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata, aho usanga amata meza afite intungamubiri, ateguye ku buryo bufite isuku, icyuma kibika amata ku buryo bwihariye kandi bwizewe, bufite isuku yabugenewe.

Aha ngaha ni ahantu heza ushobora kuza, ubundi ukaba wanywa amata ugafata imitobe y'ubwoko butandukanye, hari amata meza, afite intungamubiri, afite isuku, afite ubuzima buzira umuze.

Ibi ngibi ni ibyo kurya bikorwa mu ifarini, aho bafata ifarini bagashyiramo imisemburo, bagashyiramo amasukari, umunyu, bakavanga bakavanga ubundi bagashyira mu mavuta bagakaranga bakadukoreramo ibyo kurya byoroheje.

Aha ngaha ni ahantu waza guhahira amata atunganyije neza kandi abitse neza aba afite umwimerere uhagije n'ibindi byo kurya bikoze mu ifarini n'indi mitobe n'ubundi bwoko bw'amata agiye atandukanye.

Aha niho wasanga amata y'ubwoko bwose wakwifuza muri buno buzima, aha ngaha hari amata aba yanyujijwe mu nganda, bagashyiramo imbuto bagakomeza bakayaryoshya mu buryo bugiye butandukanye.

Muri banki ikwereka ibintu bitandukanye, uko wakohereza amafaranga y'ubuntu, ubundi ugafata kane ku ijana y'inyungu, uko wagura ibikoresho byo gushyira aha ukorera ibikorwa byawe bitandukanye, ko wakwishyura kuri murandasi, n'uko wakwishyura ibindi bitandukanye.

Ni umwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa eyateli aha ngaha barakubwira bati ubonye magana atanu kuri konti yawe ya eyateli mani aha ngaha hari ibyo ugomba gukurikiza kugira uyabone n'ubuntu nawe wabikora.

Ni konti ahangaha niho ureba ukuntu muri konti yawe biba bimeze, ukareba amafaranga yinjijeye, mafaranga yasohotse, ibyo wishyuye, paki waguze, kuba washyiraho abandi bafatanyabikorwa.

Bwo kohereza amafaranga aba berekana ko bohereje witwa Tomasi amafaranga yohereje nkayareba ari mu madorari ukareba n'amafaranga ari bwakirwe nayo ko angana n'uburyo umuntu aribuze koherezamo iminota ibiri ubutwari n'aho ari amafaranga ari bujye.

Uru ni urupapuro nyemezabwishyu rw' umusoro rugaragaza ko ikigo runaka cyangwa se umucuruzi runaka cyangwa se afite ibikorwa bitandukanye aba amaze kwishyurira imisoro, kugira ngo hatazacibwa ibindi bihano.

Uru ni urupapuro rugaragaza ko uba wishyuye imisoro yawe. Hano turabona amazina y'uwishyuye bita Mushyirahamwe. Nawe mu gihe ufite ibikorwaremezo byawe ukora bisaba ko wishyura imisoro, wakwishyura ubundi bakaruguha rugaragaza ko wishyuye.

Igihe nawe urimo ukabanza ukishyura, ubundi bagashyiraho n'umukono.

Urupapuro rugaragaza banki, uko umukiriya wabo yagiye akoresha ibikorwa by'iyi banki, uko yagiye abitsa, uko yagiye abikuza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye aba yaragiye akora akoresheje iyi banki.

Urupapuro ruriho inyemezabwishyu y'imisoro, ikigo kiba gishinzwe imisoro n'amahoro kiba cyaguhaye kugira ngo barebe niba nta mwenda urimo, mu gihe umaze kwishyura nta mwenda usigayemo uru nguru nirwo baguha ukarutahana.

Uru nguru ni rupapuro rugaragaza ukuntu umuntu aba amaze kwishyura imisoro n'amahoro, iki ngiki ni ikigo cy'ubwishingizi cyari kimaze kwishyura imisoro, ubundi nta mwenda basigayemo bakabaha urupapuro nyemezabwishyu.

Urupapuro rugaragaza ko umaze kwishyura imisoro yawe ibikorwa byawe ubucuruzi bwawe waba ufite ugomba kubanza kwishyura imisoro kugira ngo ibikorwaremezo bikomeze gutera imbere mu gihugu cyawe.

Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, aha ngaha ni ho ujya ku kigo cy'imisoro n'amahoro ukishyura imisoro yose urimo ndetse n'imyenda urimo ukayishyura, ubundi bakaguha urupapuro nyemezabwishyu rugaragaza ko nta mwenda urimo w'imisoro ndetse n'amahoro.

Aya ngaya ni amafaranga y'abanyamahanga, aha ngaha ni ho uza bakaba bakora ibijyanye no guhinduranya amafaranga cyangwa se ubuhanahane bw'amafaranga, ukazana amwe nawe bakaguha andi, bitewe n'ayo ukeneye cyangwa se aho ugiye kuyakoreshereza.

Umwe mu bakozi bakora ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga, igura n'igurisha, aha ngaha harimo arashyiraho ibiciro kugira ngo mu gihe uje kugura cyangwa se kugurisha umenye ayo uri bujyane bitewe n'ayo uzanye.

Aha ngaha barimo barabara amafaranga agiye atandukanye ndetse n'ibihugu bitandukanye, ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, aha ngaha bakora ubucuruzi bw'amafaranga. Uramutse nawe ufite amafaranga ukeneye ko baguha ayo mu bindi bihugu baragufasha.

Aya ni amafaranga y'abanyamahanga, tukaba tuyareba mu gihe uyakeneye nawe ushobora kuza bakayaguha uzanye andi, bitewe n'icyo bari buze kuyakoresha, cyangwa se bari buze kuyakoreshereza, ushobora kuzana andi nk'aya bakaguha nanone andi.

Ubu ni buryo bw'ihererekanya ry'amafaranga, ubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, aha ngaha bitewe n'ayakeneye cyangwa se ahantu ari buze guhahishiriza, azana ayo afite ubundi bakamuhereza andi akeneye kugira ngo ibikorwa bye bigende neza.

Ibingibi ni ibikorwa by'ubucuruzi bw'amafaranga ahangaha ugenda ureba ibiciro by'amafaranga ukareba uburyo wagura n'uburyo wagurisha bitewe n'ayo ukeneye cyangwa se bitewe n'ayo uzanye uko agiye ahagaze.

Ubungubu ni ubuhererekane cyangwa se uruhererekane rw'amafaranga, ahangaha bitewe n'amafaranga ufite urayazana bakaguhereza ayandi ukeneye bitewe n'aho uribuze kuyakoreshereza.

Gukoresha amafaranga y'amanyamahanga ahangaha bitewe n'igihugu ugiye kujyamo cyangwa se naho uri, naho ugiye guhahira kavuze ko amwe adakunze gukoresha muri icyo gihugu ahangaha uraza bakaguhereza ayo wifuza.

Ayangaya ni amafaranga ushobora kuba wakenera cyangwa se uyafite kuba wayazana nawe bakaba baguhereza ayandi ukeneye bitewe n'aho ukeneye kujya kuyakoreshereza cyangwa se icyo ugiye kuyakoresha.

Ibi ngibi ni ibiciro, uburyo wagurisha cyangwa ukagura amafaranga bitewe n'ayo ushaka, hari uburyo uba ureba amafaranga nkeneye ahagaze igiciro kingana gutya, ukaza ukagura cyangwa se ukagurisha bitewe.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga y'abanyamahangagaha, aha ngaha ibiciro biriho, uburyo bwo kugurisha ndetse n'ubwo kugura bitewe n'ayo ukeneye, ushobora ku waza ukagurisha cyangwa se ukanagura, byose aba ari gahunda zawe.

Aya ngaya ni amafaranga y'abanyamahanga tukaba tureba hari amafaranga ya Tanzaniya, uramutse uyakeneye hari ibigo bishinzwe gutanga amafaranga y'abanyamahanga cyangwa se bikaba byaguha amanyarwanda ubaye ari yo ukeneye.

Uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyabuhanga, uramutse uyafite ushobora kuyazana bakaguhereza na none andi wifuza, bitewe n'aho uri buyakoreshereze cyangwa se n'igihugu uri buze kuyajyanamo.

Ubu ngubu ni uburyo bwo guhinduranya amafaranga ku buryo utanga amwe nawe bakaguha andi bitewe n'uko ibiciro byayo biba bihagaze, uraza ibiciro bakabikubwira cyangwa se haba hari icyapa kigaragaza ibiciro ubundi ukamenya aho uhagaze.

Aho ngaha bari kuba uruhererekane rw'amafaranga angahabera ubucuruzi bw'amafaranga bitewe n'ayo ukeneye, uzana amwe ubundi na bakaguha andi nawe uri mu Rwanda wabikora; ufite abanyarwanda bagenda bakaguha amanyamahanga cyangwa afite amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, ku buryo uza ureba igiciro bitewe n'ayo ukeneye, ahantu uri buze kuyakoreshereza, uvuga ati niba nkeneye ayo mu gihugu runaka nanjye mfite aya, biraza kumpagara aya.

Amafaranga y'abanyamahanga, uramutse uyakeneye hari uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga, ubundi mu gihe waba ufite abanyarwanda ukeneye abanyamahanga bakayaguha, cyangwa se ufite amanyamahanga bakayaguha andi manyamahanga bitewe n'aho yakoreshejwe.

Uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga, ayangaya ni amadolari ahangaha mu Rwanda haba hari ibigo bishinzwe kuyatanga uramutse uyafite ukaza ukabona amanyarwanda cyangwa n'amabanyamahanga nayo barayagira.

Aha ngaha ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga, aha ni ho uzana amafaranga ufite yo mu gihugu gitandukanye, bakaguha andi atandukanye n'ayo ufite bitewe n'ahantu uri buze kuyakoreshereza, barabigufasha byose.

Icyo twita ihinduranya ry'amafaranga, agiye atandukanye, cyangwa se nk'ubucuruzi bw'amafaranga. Mu gihe ufite amafaranga amwe hano, ujyana andi bitewe n'ayo ukeneye cyangwa se n'ayo uzanye.

Aha ngaha ni ubucuruzi mpuzamahanga bw'amafaranga aha ngaha amafaranga ayo ari yo yose wakwifuza cyangwa se wakenera yo mu gihugu icyo ari cyo cyose kuko ni mpuzamahanga ni hano waza kubariza.

Aha ngaha usanga hakorerwa ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se imihinduranyirize y'amafaranga bitewe n'aho ukeneye kandi n'andi wifuza, usanga n'ibiciro biriho, ukaba uzi ngo niba nzannye aya ngaya ku yo nkeneye, ndajyana angana uku.

Aha ngaha bakora ivunjisha ry'amafaranga cyangwa ubucuruzi bw'amafaranga, bitewe n'amafaranga ufite kandi bigaterwa n'ayo ukeneye, aha ngaha ni ho uza bakaguhindurira, bakaguha andi.

Ahangaha hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga agiye atandukanye, haba hariho ibiciro bitewe wowe n'ayo uba ukeneye, uraza ukareba igiciro ugahita umenya ngo niba mfite ayangaya, ndatahana ayangaya.

Ni ho ushobora gusanga wakorera gahunda nyinshi zigiye zitandukanye kohereza nk'amafaranga muri Uganda, cyangwa se mu gihugu cya Kenya cyangwa se n'igihugu cya Tanzaniya cyangwa se ukaba wakakira n'ayavuyeyo cyangwa se ukaba wahamagarayo. Ni uburyo bwinshi butandukanye wakora.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga, ibiciro biba biriho uba ubireba bitewe n'ayo wowe ukeneye, cyangwa se ay'igihugu uri buze gukoresha, ibiciro ubireba ukaza ukagura cyangwa se ukagurisha bitewe n'ayo ufite.

Aha ngaha bakora ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga bugiye butandukanye, mu gihe wifuza kuba baguhindurira amafaranga bakaguha andi bitewe n'aho uri buyajyane cyangwa se aho uri buyakoreshereze, aha ngaha niho uzaba bakabigufashamo byose.

Icyumba cyiza, kigaragara neza, harimo uburiri bwiza wabasha kuryamaho ukaruhuka, ahantu hatakuvuna umugongo, wabasha kuba uri ugatekereza neza. Aha ngaha niho buri muntu wese iyari aba arimo aratekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Aha ngaha ni ho bakorera uburiro cyangwa se gusangira, mu gihe umuryango uri mu nzu uteranye, aha ngaha ni ho bicara barimo barafata amafunguro, intebe nziza, ziteguye neza n'imeza isa neza ku buryo bwihariye.

Izi ni intebe nziza n'imeza nziza ushobora kuba wagura ugashyira mu nzu yawe, ukayitaka ubundi hagakomeza hagasa neza, ahangaha wagura izi ntebe nawe hari ahantu henshi baaba bazigurisha ku buryo wagenda ukazizana.

Iyi ni inyubako irimo utubati twiza dusa neza, intebe nziza imitako myiza kandi imeza nziza yubatse ku buryo bugezweho, mu mbaho nziza zifite amabara meza, iyi ngiyi ni inyubako ushobora kuba wabamo wowe n'abawe mukabaho mwishimye.

Izi ni intebe nziza zikoze mu buryo bugezweho, wicaraho ukarambura n'umugongo ntube wa kurya, izingizi uzikeneye hari ahantu ho kuzikoreshereza henshi hagiye hatandukanye, izi wazikoresha ukazajya zicaraho.

Aha ngaha ni ahantu heza ho kwicara, muri kurira, mukaganira nk'umuryango, intebe zikoze neza, uramutse ukeneye intebe nk'izi ngizi, ahantu bakora ubugeni bugiye butandukanye bazigukorera, ubundi nawe ukamera neza.

Ni inyubako nziza iri mu ishusho y'uruziga ifite amabara menshi agiye atandukanye, cyane uzabonamo ibendera ry'u Rwanda, ni inyubako wakwifuza kandi wakishimira gukoreramo ibikorwa byawe byinshi byiza bigiye bitandukanye, wayisura ukareba.

Angaha ni ahantu heza wasohokera mu gihe waba wifuza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, waba wifuza amafunguro meza, wifuza ibyo kunywa byiza, ahantu waza ukaganira n'inshuti zawe cyangwa se n'abandi bantu batandukanye.

Inzu nini nziza iri mu mujyi wa kigali bahita ibihumbi bibiri ukaba usangamo ibikorwa by'ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye, ibicuruzwa byose wakwifuza kugura aha ngaha ni ahantu heza waza kugurira.

Ahantu heza wakifuza gusohokera ari kumwe n'nshuti zawe, n'umuryango wawe. Ahantu wajya mukishima, mukanezerwa, mukahasanga amafunguro ateguye neza, ibyo kunywa biteguye neza n'ibindi byinshi byiza.

Aha ngaha niho ushobora gusanga amafunguro y'ubwoko bugiye butandukanye, aha ngaha niho ushobora gusanga imbuto nziza zikase neza ziteguye neza mu gihe ukeneye amafunguro, aha ngaha ni ahantu waza gufata ifunguro.

Ahantu wakwishimira gusohokera uragenda karuhuka uri kumwe n'inshuti zawe, mukagenda mukaba muri muri aya mazi mukina muruhura ibitekerezo, muruhura mu mutwe, mukomeza mwishimira ubuzima.

Ahantu hateguye neza hashobora kuzana n'inshuti zawe cyangwa se n'umuryango wawe, mukaganira, mukishima, mukumva amahumbezi, bakabategurira amafunguro ateguye neza, ndetse n'ibyo kunywa biteguye neza biryoshye.

Ni ahantu heza ushobora kuba wasohokera wowe n'inshuti zawe, wowe n'umuryango wawe, mukagenda mukishimana, haba hari ibikorwa remezo byinshi byiza bigiye bitandukanye, amazi meza, ushobora kuhasanga amafunguro meza, n'ibindi byiza bigiye bitandukanye.

Aha ni ahantu heza hashobora kuba wasohokera wowe n'umuryango wawe cyangwa se wowe n'inshuti zawe mukaba mwahasanga ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye amafunguro ateguye neza ndetse n'ibyo kunywa biteguye neza.

Aha ngaha ni ahantu heza wakwishimira kuba wasohokera uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa se n'abana bawe, mukaza mukishimira ubuzima, mukajya muri aya mazi, mukoga, mukicara ku dutanda tuba duhari n'udutebe, babaha amafunguro ateguye neza.

Aha ni ahantu heza ushobora kuba wakwishimira gusohokera uri kumwe n'inshuti zawe, uri kumwe n'abawe mukishimana, ushobora kuhasanga amafunguro ateguye neza ndetse n'ibyo kunywa biteguye neza, ahantu heza ho kuruhukira, n'ibindi bintu byinshi byiza bitandukanye.

Iyi ni inyubako nziza igezweho yubatse ku buryo bw'iterambere, ushobora waza kwaguriramo ibikorwa byawe cyangwa se'imirimo yawe igiye itandukanye kugirango ngo urusheho gukomeza gutera imbere.

Ushobora kujya kwishimana n'inshuti zawe, mukaganira, ubundi hari ahantu heza ho kuruhukira, aho kuryama, amafunguro aba ateguye neza, ibyo kunywa biteguye neza, aha ngaha ni ahantu wakishimira kuruhukira.

Ushobora gusohokera wowe n'inshuti zawe, ubundi mukishimana, ahantu haba hari amahumbezi, ubusitani bwiza, inyubako nziza kandi igezweho, ku buryo bw'iterambere, aha ngaha wahishimira, kuba wahajya wowe n'abawe bose mukishima.

Aha ngaha ni ahantu wasohokera ukagenda ukahafatira amafunguro meza kandi ateguye neza ku buryo bugezweho. Hakaba harimo amafunguro ya kinyarwanda n'andi agiye atandukanye, imbuto zikase neza kugira ngo ukomeze kongera intungamubiri mu mubiri wawe.

Urabona ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Sonarwa, uramutse ukeneye ubwishingizi ukagenda ugashinganisha ibyawe n'abawe, kugira ngo mu rwego rw'uko hashobora kuza impanuka itunguranye, ishobora gusanga ufite umuntu ukuri inyuma wo kugufasha.

Iki ni ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima uramutse ukeneye ubwishingizi bw'ubuzima ,aha ngaha wahaza ubundi ugafata ubwishingizi mu gihe ibyago bibaye cyangwa se biteye ,ukaba uzi neza ko ufite umuntu ukuri inyuma ugufasha.

Iyi ni inyubako nziza zigiye zitandukanye ko inyubako iriho ikirango cy'uburu n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi iramutse ugenewe ubwishingizi cyagufasha.

Aha ngaha baraguha ubwisungane mu kwivuza, niba udafite ubwishingizi bwo kwivuza, aha ni ahantu babuguha, ubundi ugahora uzi neza ko ubuzima bwawe burinzwe igihe wagize ibibazo bitandukanye, ukamenya ko hari umwishingizi ukuri inyuma.

Ndi kubonamo abakozi batandukanye, hashobora kuba ari muri banki, aho uzaza ukaba wabitsa amafaranga yawe, cyangwa se kwishyura ibintu bigiye bitandukanye, ukaba ushobora no gufunguza konti uzajya ubitsaho ukizigama.

Iki ni kigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, burakubwira ngo isezerano ni isezerano. Mu gihe ufite ubwishingizi bwaho, uba umeze neza, kuko inyuma yawe ubu uzi ko hari umuntu uriyo, mu gihe waba ugize ibyago runaka bije bigutunguye.

Iyi ngiyi ni inyubako itanga ubwishingizi bw'ibintu bigiye bitandukanye, uramutse ukeneye ubwishingizi bwawe n'ibyawe, aha ngaha wagenda ukabishinganisha ukabaho utekanye, wizeye neza ko ibintu byawe bitekanye.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, aha ngaha uramutse ukeneye ubwishingizi bw'ubuzima kugira ngo ibijyanye no kwivuza kwawe bizakorohere, iki ngiki ni cyo kigo wajyamo gusaba ubwishingizi ukaba ushinganye.

Aha ngaha barakubwira ngo ushobora kugira iwawe kandi nta bintu wishyuye, iki ngiki ni ikigo gishobora kubigufasha, bashobora kuba baguha inguzanyo, iyi ni banki cyangwa se bakaguha ubundi bufasha bugiye butandukanye ukagira iwawe.

Aha niho bagufasha ku wakohereza cyangwa se ukakira amafaranga yo mu mahanga. Uyu ni umwe mu bakozi b'iki kigo cyangwa se bizi banki, barabigufashamo byose bikarangira neza uko ubyifuza.

Iyi ni banki ahangaha baba bavuga bati harafunguye bashobora kuguha inguzanyo ukongera ugahaha, ibi ni ibicuruzwa niba uri umucuruzi ujya aha ngaha ugakora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ,uramutse ukeneye inguzanyo aha barayiguha.

Aba ngaba n'abaturage aha ngaha hashobora kuba ari muri Giramata, baka bari bafite amata bari kumwe n'abanyamahanga babereka ukuntu iwacu zikamwa kugira ngo nabo abanyamahanga bakomeze kubona ko u rwanda rwateye imbere

Banki izwi ku izina rya I&M Banki aha ngaha barakubwira ati <<turaguha miliyoni mirongo itanu z'inguzanyo,>> aha ngaha ukagenda nawe ukareba ibikorwa remezo bigiye bitandukanye wahangamo muri ayo mafaranga.

Ati tekana ku nguzanyo, ubwishingizi bwuzuye bw'ikinyabiziga cyawe aha ngahe ushobora kuguhamagara ku buntu uhamagaye gatanu rimwe makumyabiri cyangwa ku mirongo yose seru karindwi umunani umunani cumi nakarindwi makumyabiri na gatandatu zeru zeru.

Bari gucuruza ibyo kurya bikoze mu ifarini ndetse harimo ibirayi, mu Rwanda bizwi ku izina ry'ibiraha, aha ngaha barabikoze bagashyiramo n'urusenda rumeze neza, ku buryo biba biryoshye nawe wakwifuza kubigura.

Aha ngaha ni ku mashyirahamwe haba habera ibikorwa bigiye bitandukanye byinshi, hari ibikorwa by'amabanki abantu bajya kubitsamo, ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye, aha ngaha ushobora kuza ukareba.

Mu isoko rya Kimironko ushobora kuba wajyamo ukeneye guhaha ibintu byinshi bitandukanye bya kinyarwanda mbega ukeneye ibisabo byiza, ukeneye kududesha imyambaro wajyayo.

Iri ngiri ni isoko wabasha guhahiramo imyambaro y'ubwoko butandukanye myinshi, ibikapu byiza, imyenda yo kumanika ku madirishya yitwa amarido imeze neza.

Ubucuruzi bw'ibihingwa bigiye bitandukanye, ibyo uzi n'ibyo utazi, ucuruza urusenda, ucuruza amashu, ucuruza inyanya n'ibindi bintu byinshi bitandukanye by'imboga, aha ngaha waza ukahahahira, ugahahira n'uyu mumeri uhetse umwana kugira ngo umwana akomeze kubaho neza.

Ni isoko wasangamo ibintu by'ubwoko bugiye butandukanye, ibyo kurya by'amoko menshi wakifuza, aha ngaha wahasanga ukabihahahira, turabona n'icyo kurya gihingwa ,tuzi cyane nk'igisheke kiryoha kibamo n'agasukari kameze neza.

Isoko ushobora kuza guhahiramo imyambaro y'ubwoko bugiye butandukanye, aha ngaha ni muri terera hejuru, aha ngaha niho uza ugasanga imyambaro kandi myiza ihendutse ushobora kuza kuba wagura.

Isoko wahahiramo imyambaro myinshi kandi myiza igiye itandukanye, uramutse ukeneye imyambaro y'abana, imyambaro y'abantu bakuru, imyambaro idoze mu buryo bwa gakondo, aha ngaha ni ho wabibariza.

Isoko rya Kimironko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aha ngaha tukareba n'igikoresho cyakifashishwa mu gihe haba hateye inkongi y'umuriro, ahangaha niho wagurira imyambaro itandukanye amavuta y'ubwoko bwose n'ibindi bintu byinshi wakwifuza.

Imbuto nziza y'umuneke ushobora kuba waza ukayihaha ni imbuto iryoha iva mu gitoki cyiza, waza ukabahahira nabo bakareba ko bakiteza imbere bagateza n'imiryango yabo imbere.

Iri ngiri ni isoko ry'ibyokurya bitandukanye, ahangaha wahahiramo ibyo kurya by'amoko yose wakwifuza kuba wagura, ibishyimbo, intoryi, inyanya, imboga n'ibindi bintu byinshi ukeneye kurangura no guhaha ahangaha wahaza.

Aka ngaka ni akazu k'umwe mu bakozi bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, aha ngaha ashobora kuba yabasha kugukorera gahunda zigiye zitandukanye: kubikira amafaranga, kuya kubikuririza, kugufasha kuyohereza ahandi hantu n'izindi zigiye zitandukanye.

Aka ngaka ni akazu k'umwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa MTN, agenda agufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuguha paki zo guhamagara, kugufasha kohereza amafaranga, kugufasha kuyabikura ndetse no kuyakubikira.

Aba ngaba ni bamwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa MTN, bashobora kugufasha ibintu byinshi bitandukanye, kuguha paki, kuguha uburyo wahamagara, kukubikira amafaranga yo kugufasha, kohereza amafaranga no kukubikurira amafaranga.

Aya ngaya ni amapikipiki atwara abagenzi tukaba tureba abantu barimo barishyura mu buryo butandukanye, abari kwishyura amafaranga bisanzwe mu ntoki, abandi bari gukoresha uburyo bwo kwishyura na momo aho wishyura nta kindi kiguzi baguciye.

Akazi k'umwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa MTN, aha ngaha agenda afasha abantu ibikorwa bitandukanye, kubaha paki zo guhamagara, kubabikira amafaranga, kubabikurira amafaranga ndetse no kubafasha kohereza amafaranga n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye.

Iri ni iduka ricuruza imyambaro myiza igiye yitandukanye, mu gihe waba wumva ukeneye kugura imyambaro wakwambara ukaberwa, ugakomeza gusa neza aha wahahahira, hari n'uburyo bwiza bwo kwishyura na kode ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, ugashyiramo kode, ukishyura nta kindi kiguzi.

Uburyo bwiza bwo kwishyura na momo aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani, akakanyeri rimwe, akanyenyeri ugashyiramo kode y'ubucuruzi cyangwa se kode y'umuntu wahahiye ugashyiraraho urwego nt'ayandi mafaranga wishyuzwa.

Iri ni isoko bahahiramo ibintu byinshi biigiye bitandukanye, urabona ibyo kurya. Ahangaha bacuruza n'inkoko zimeze neza, ukabona uburyo bwiza bwo kwishyura na momo kugira ngo wishyure nta kindi kiguzi cyangwa igiciro bakwate.

Tubonaho umuyoboro wa MTN aha ngaha usanga bakubwira ngo hose tugerayo mu mahanga mu Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye, bakora ibikorwa byabo byiza bagufasha kohereza amafaranga, bagufasha kubikura, ubufasha bwa paki zo guhamagara.

Ubwiza bwo kwishyura na momo aha ngaha iri ngiri aba izina ry'umucuruzi ubundi ugakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe ugashyiramo kode y'umucuruzi ugashyiraho urwego ukabona ahajya amafaranga ukayashyiramo ubundi ukishyura ho nta yandi mafaranga wishyuzwa.

Ubu ni uburyo bwo guhahira kuri murandasi, ukaba wareba ibicuruzwa biriho byinshi bigiye bitandukanye hariho n'ibiciro byabyo, ubundi icyo ushimye ukakigura ubundi bakazakikoherereza cyangwa ukajya kubona kikugezeho.

Ipikipiki kugeza aho ibyo uba wahashye ukoresheje murandasi ahangaha ni hamwe uba wibereye nko mu nzu ukumva urashonje ukandikiraz mbuga nkoranyambaga zabo ugatuma nkya amafunguro ubundi mu minota mike bakayakugezaho.

Ubu ngubu ni uburyo bwo guhahira kuri murandasi kububyo watuma ibyo kurya; imbuto n'ibindi bigiye bitandukanye ubundi bakabikugezaho, aha ngaha bakugezaho ibyo kurya uba watumye ibyo aribyo byose.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cya vuba vuba gishinzwe kukugerezaho ibintu uba watumye, ndetse bari barimo barabishyikiriza uwatumye. Aha ngaha ni hamwe uhaha ibintu kuri murandasi, ubundi ugahitamo ibicuruzwa ushaka ukabituma bakabikuzanira aba babikugezaho.

Umwe mu bakozi bashinzwe kuba bakuzanira ibintu uba waguze kuri murandasi, uyu nguyu ni uwo bari bazaniye ibyo yatumye, aha ngaha ujya kuri murandasi ugatuma ibyo ukeneye yaba ari amafunguro ubundi bakabikugezaho mu rugo wibereyeyo.

Uyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cya vuba vuba bashinzwe kuba bakugezaho ibintu, waba watumije aho waba uri hose, waba uri mu rugo cyangwa se uri ahantu hatandukanye mu gihe waba utumye nk'ibyo kurya bakabikugezaho.

Ubu ngubu ni uburyo bwo guhahira kuri murandasi wibereye aho wicaye hose uka ureba igicuruzwa wifuza ubundi ukakigura kuri runo rubuga, ubundi ukohereza amafaranga yacyo, ukazajya kubona ukabona barakikoherereje.

Gukora ni udushya baba bahanze tundi, ukaba wakishyura amafaranga angana n'ibice magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda, ugahahira kuri murandasi, ubundi ukajya kubona ukabona babikugejejeho aho wibereye.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza ukaba ureba hano icyumba cy'abashyitsi, aha ngaha gifite idirishya ryiza ashobora gufungura hakinjiramo akayaga ugukomeza kugira amahumbezi, aba ari inyubako wagura amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Ikingiki ni igipangu kirimo inyubako nziza igeretse gifite ibara ry'umukara, kikaba kiri ku muhanda ahantu waza ugatura heza ukazajya wishyura amafaranga angana n'amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Inyubako nziza iherereye Kicukiro kagarama mu mujyi wa kigali yubatse ku buryo rwose bugezweho bubereye u Rwanda. Akaba ari inyubako bakubwira ko ugomba kugura amafaranga angana na miriyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda ubundi ugatura heza.

Kuri iyi nyubako iherereye i Gisozi hafi na Kagugu mu mujyi wa Kigali ukaba ureba igikoni kiza kigezweho cy'iterambere, akaba ari inzi igurishwa amafaranga angana na miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda ukaba uyikeneye wayigura.

Inzuza nziza iherereye Kabeza baratwere icyumba cy'uruganiriro cyangwa se bicaramo umuryango wateranye cyangwa se n'abavandimwe bagusuye harimo ibikoresho byiza byo mu nzu kandi by'iterambere, aza aba ari inzu wakwishyura amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako iherereye kabeza kabona igikoni kiyiza kigezweho cyo ku buryo bwubatse mu buryo bw'iterambere. Iyi ikaba ari inyubako ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga ukaba mwakoresha na za murandasi ukaba usabwa kuba wakishyura amafaranga angana n'amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako nziza ubona ko ifite ahantu ho kujya ibinyabiziga byawe, akaba ari inyubako ushobora kuba wakodesha cyangwa ukaza ukayibamo iherereye Kibagabaga, umujyi wa Kigali ukaba wajya wishyura amafaranga angana n'amadorari igihumbi na magana atanu.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza tukaba tureba icyumba cy'uruganiriro cyangwa cy'ubusabane, aho umuryango uteranira, aho inshuti zigusura muba mwicaye, tukabona utubati twiza, intebe nziza n'utubati two gushyiraho insakazamashusho yo mu nzu, ahantu hasa neza.

Iyi nyubako nziza iherereye kabeza ukaba ubona icyumba kimwe ,ndetse ikaba irimo n'ibindi byumba bigiye bitandukanye ,wahakenera gukoresha uyirimo ,ikaba ari inzu bakodesha amafaranga angana n'amadolari magana atanu na mirongo itanu buri kwezi.

Iyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho ifite amabuye meza, amabara meza, ubusitani bwiza buri mu gipangu kandi bugezweho, aha ngaha tukabona amatara meza, iyi ngiyi ikaba ari inyubako ihagaze amafaranga angana na miriyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nziza iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali ikaba ifite igikoni cyiza n'utubati twiza two mu gikoni two kubikamo ibikoresho byawe n'ibikoresho byiza by'iterambere bimwe bidufasha gukonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibiribwa.

Inyubako nziza iherereye Kabeza, yubatse ku buryo bugezweho bw'iterambere, ifite ibyuyuma byiza, hanze heza, amakaro meza, iri n'ahantu hizewe. Ikaba ihagaze amafaranga angana, na miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, z'amafaranga y'u Rwanda, kuyigura.

Aha ngaha ni i Kanombe mu mujyi wa Kigali, aho usanga iyi nyubako nziza ifite amakaro meza, afite ibiyumba byiza ifite n'amabara meza, ushobora kuyigura amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo ine z'Amanyarwanda.

Inyubako nziza iherereye i Kanombe, ifite ibyumba bine, ikagira ibyumba bitatu by'urwogero, ikaba ari inyubako waza ugakodesha amafaranga angana n'ibihumbi magana atanu y'u Rwanda ku kwezi.

Iyi ni nyubako nziza, iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inyubako y'igorofa igeretse, ifite amabara meza, akaba ari inyubako bakubwira ngo wakishyura amafaranga angana na miriyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda, ubundi ukayigura.

Inyubako nziza ikodeshwa, iherereye Kigali i Kanombe, akaba harimo ibyumba bibiri by'uburyamo n'ibindi byumba bibiri by'ubwiherero cyangwa se ubwogero, aha ngaha ni inzu ushobora gusanga ugomba kwishyura amafaranga angana n'amadorari cyangwa se amafaranga y'amanyarwanda ibihumbi magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Iyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho ikaba iteguye kuba wayikodesha, ikaba yuzuye bimwe ibindi bitaruzura iherereye Kimironko-Zindiro uramutse ukeneye kuyikodesha iyi ni inyubako waza nziza ukayibonamo.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza igezweho yubatse ku buryo bw'iterambere, aha ngaha usanga harimo umwanya wo gushyiramo ibinyabiziga, inyubako ifite amabara meza, uyu nguyu ni umwe mu bakozi bacuruza amazu, akaba ari inzu wakishyura miliyoni mirongo cyenda z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nziza nini cyane igeretse, yubatse ku buryo bw'iterambere, ifite ahantu washyira ibinyabiziga byawe waba ukoresha, ikaba iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bitanu by'uburyamo n'ibyumba bitanu by'ubwogero cyangwa se ubwiherero, wakwishyura amafaranga angana n'amadolari ibihumbi magana arindwi ku kwezi.

Iyi ni nyubako nziza cyane, ubona ko ifite umwanya ibinyabiziga byajyamo, ubona ko ifite ubusitani bwiza, ifite amabara meza, yubatse ku buryo bwiza bw'iterambere, ikaba ihagaze amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu, ukeneye kuyigura iyi ni nyubako isa neza.

Iyi ni inyubako nziza. Uyu nguyu ni umwe mu bakozi bakora mu bijyanye no gucuruza amazu cyangwa se kuyakodesha. Aha ngaha akaba agufiteye inyubako nziza ushobora kuba wamuhamagara akakubwira igiciro ihagaze ubundi ukayigura ukayibamo.

Inyubakuru yubatse irangiye ikaba ari inyubako ikodeshwa, ikaba ifite ibyumba bitatu by'uburyamo n'ibyumba bibiri by'ubwogero cyangwa se n'ubwiherero ahangaha ukaba usabwa kuzajya wishyura amadolari igihumbi ku kwezi.

Inyubako nini nziza, iherereye Kimihurura, ishobora kuba ihagaze amadorari magana arindwi mu gukodesha, akabari nk'inzu y'ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye.

Iyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho, ureba ituye Kigali Kanombe, ifite ibyumba bine by'uburyamiro ndetse n'ibyumba bitatu by'ubwogero cyangwa se n'ubwiherero, akenshi biba biri kumwe akaba ari inyubako waza kuyikodesha.

Inyubako wajyamo guhahira ibintu bitandukanye wakwifuza, imyambaro y'ubwoko bwose wakenera kwambara ukaberwa waba uri umukobwa, waba uri umusore cyangwa se urumva igi ikintu cyose waba uricyo, aha ngaha waza kuhahahira.

Mu isoko, waza guhahiramo ibintu by'ubwoko bwinshi butandukanye, nk'aha tureba barimo baracuruza imikeka yo kurambika mu nzu, bagasasa mu nzu, bamwe basengeraho cyangwa se abandi bicaraho.

Iri ni iduka wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye wakwifuza byaba ari ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye aha ngaha ushobora kuza ubundi ukabihahahira.

Aha ngaha niho wahahira ibintu byinshi bigiye bitandukanye wakwifuza kugumisha iwawe, hakaba hari n'uburyo bwo kwishyura ukoresheje, bakaguha inyemezabwishyu yuko wahashye nyuma yo kwishyura.

Ushobora guhahiramo ibintu bigiye bitandukanye, byaba ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibyo kunywa, ibikoresho byo mu rugo twifashisha ahantu hagiye hatandukanye, yaba ari iby'isuku n'ibindi byinshi wabihasanga.

Iri ngiri ni iduka wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, nk'ubu ukeneye kugura inzitiramubu nziza zimeze neza z'iterambere kandi zigezweho aha ngaha wazihasanga, amavuta y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye n'ibindi bintu byinshi wakenera.

Ejo heza uzakomeza kurimba no mu zabukuru zawe mu gihe ugeze mu za bukuru utagikora nk'cyabari ikigo gitanga ubwishingizi kugira ngo nugera muri iyi myaka utagishoboye gukora uzakomeze ufite ejo heza.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, aha ngaha, ufite iyi ikarita ntago arembera mu rugo. Niba nta bundi bwishingizi ufite bwo kwivuza, iyi ni ikarita ya mituweri yorohereje buri munyarwanda wese kugira ngo kwivuza byorohe.

Ababyeyi barimo baragaragaza ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iyi karita iyo uyifite ukagira ikibazo ukaba warwara birakorohera cyane iyo ugiye ku ivuriro wamaze kuvurwa ibijyanye no kwishyura ibitaro birakorohera.

Iri ni ivuriro aha ngaha usanga abantu benshi baje kwivuza cyangwa se baje kwandikisha abana, bafite impapuro zigiye zigaragaza igihe abana bavukiye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ibyo bakeneye.

Iyi ngiyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, bitewe n'ubwishingizi ukoresha mu bijyanye no kwivuza, mu gihe udakoresha ubundi bwishingizi butandukanye ubwo ari bwo bwose iyi ni mituweli, uba ugomba kuba uyifite mu rwego rwo kugira ngo uzabeho ubuzima buzira umuze.

Aha ngaha ni ku ivuriro haba haje abantu b'ingeri zitandukanye ababyeyi n'abandi batandukanye baje kwivuza ndetse bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bize kuborohera.

Aha ngaha batanga ubwishingizi bw'ubuzima, aba ngaba ni bamwe mu bakozi b'iki kigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima kugira ngo ube ufite ikarita ya mituweri igufasha kwivuza mu gihe waba ufite uburwayi bugiye butandukanye.

Barakubwira ngo reba imisanzu yawe muri rssb. Iki ni ikigo gitanga ubwisungane mu kwivuza, wagenda ukarebamo uko uba waratanze imisanzu yawe igiye itandukanye.

Ikigo cy'ubwishingizi gitanga ubwisungane mu kwivuza, uramutse nta bwisungane ufite mu kwivuza aha ngaha icyo kigo kiba kigomba kubiguhereza ubundi ukagira icyo bita mituweli kuko iriya karita uyifite ntarembera mu rugo.

Iyi ni inyubako nini nziza igezweho yubatse kuburyo bw'iterambere ushobora guhahiramo ishobora kuba irimo ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye wahahiramo warebamo n'ibindi bikorwa remezo byiza kandi byinshi.

Iyi ni Minisiteri y'Ubuzima umujyi wa Kigali karere ka Kicukiro, iyi ngiyi ni ikarita ikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye ishobora kuba ari ikarita yo kwivuza cyangwa se uruhushya rw'agateganyo.

Ikigo cy'ubwiteganyize mu Rwanda, aha ngaha hakaba hari ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza. Ufite iyi ikarita ntarembera mu rugo. Iyi karita mu gihe uzi ko uri umunyarwanda ukeneye kuba uyifite mu gihe nta bundi bwishingizi ukoresha kugira ngo bizakorohere mu gihe warwaye.

Isoko wahahiramo ibintu byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye, aha ngaha ukeneye kuza guhaha ibikoresho byo mu nzu, amasabune akora isuku, n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku, aha ngaha waza ukahahahira.

Ushobora guhahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye wakenera, byo gutuma umera neza, ibintu byose wakenera iri soko warigezemo wabisangamo, ibintu bijyanye n'imisatsi, ibintu bijyanye n'amafunguro, ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mu rugo.

Aha ngaha ni ahantu heza waza gufatira amafunguro meza, ibyo kunywa byiza bigiye bitandukanye, akaba iri ngiri ari isoko ushobora kwinjiramo ugahaha ibintu byiza kandi byinshi wakwifuza guhaha, ukeneye amafunguro meza n'ibindi byiza bitandukanye kandi aha ngaha ntabwo ibinyabiziga byemerewe kuhahagarara.

Isoko ryiza wahahiramo ibyo kurya bigiye bitandukanye byinshi by'amoko atandukanye, ibirungo byo guteka mu biryo, ibirungo byo guteka mu cyayi, imbuto nziza zigezweho, ni aha ngaha wahahira.

Iri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukeneye kugura imitobe, ukeneye kugura n'ibindi byo kunywa bitandukanye, aha ngaha waza bakabikora, ibisembuye n'ibidasembuye ubwoko bw'ibyokunywa bikoze mu mbuto zitandukanye.

Iri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, imitobe y'amoko yose, impapuro z'isuku mu byo kurya, ibirungo ibintu byinshi wakwifuza, irigingiri warigezemo ntabwo wahataha udahashye.

Isoko wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye byiza nk' aha turareba imbuto z'ubwoko bwose amacunga n'ibindi bigiye bitandukanye inanasi amapera imbuto z'ubwoko bwose wakwifuza n'izo utazi.

Ni isoko ryiza wajyamo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye ibirungo byo guteka mafunguro yawe by'ubwoko bwose, yaba ibyo uyuzi cyangwa se n'ibyo utazi ushobora kujyamo ukabihaha, ubundi ukagenda ugategura amafunguro aryoshye aryoheye n'amaso.

Iri ngiri ni isoko ryiza wahahiraho ibintu byinshi kandi byiza bijyiye bitandukanye, ndareba umuntu hano amaze guhaha imboga zo guteka zigiye zitandukanye n'ibirungo, iri ni isoko ryiza ushobora guhahiramo.

Iri ngiri ni isoko ushobora kuza guhahiramo ibyo kurya byinshi bigiye bitandukanye bikozwe mu ifarini, amavuta y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye aha ngaha waza ukahahira imitako yo mu minsi mikuru n'ibyo kurya.

Iri ni isoko rinini kandi bigari wahahiramo ibyokurya bigiye bitandukanye, wakenera ndetse n'ibindi bintu byinshi by'ubwoko butandukanye ukaba wifuza guhaha ahangaha ni ahantu wasanga ibintu byose.

Ni isoko ryiza rigezweho wahahira mu bintu byinshi byari bitandukanye, ibyo kurya by'amoko menshi atandukanye n'impapuro z'isuku, amasukari n'ibindi bintu byinshi wakenera.

Iri ni iduka ryiza rinini ni isoko rigezweho ushobora guhahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'amoko menshi ibyo uzi n'ibyo utazi, ibiryohera ibiryo, inyama ibindi n'imboga ahangaha nta kintu utahasanga.